Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ikoti ry'umukara, afite n'amadarubindi ku maso, arimo aravuga imbwirwaruhame bigaragare ko yishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu baturutse imihanda yose, harimo: urubyiruko, abagore ndetse n'abagabo, baje kumva ibivugirwa muri iyi nama.

Inama yahuje abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, harimo abasore ndetse n'inkumi ndetse n'abakuze, baje barimo baraganira ku ishyaka ryabo.

Inama, irimo abantu batandukanye, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, harimo umusirikari, ndetse iruhande rwe hicaye, abagabo babiri bambaye amakote y'ubururu.

Umubyeyi uri hagati y'umugore ndetse n'umusore bari imbere y'abantu benshi, biragaragara ko barimo bafata ifoto y'urwibutso.

Inama yitabiriwe n'abagabo ndetse n'abagore batandukanye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, barimo barandika ku makaye n'amakaramu ndetse barimo barumva ibyo babwirwa.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye harimo abayobozi, imbere yabo hateretse uducupa tubiri harimo amazi ndetse na ji ndetse aba bayobozi bakurikiye inama.

Ni mu kidara cyangwa se mu itente rinini, ahahuriye urubyiruko rutandukanye rwaturutse mu mpande zitandukanye z'Igihugu, barimo barahabwa ibiganiro ndetse harimo n'abakozi.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi ndetse imbere ye hateretse akameza kabugenewe, arimo arageza ku bamukurikiye imbwirwaruhame.

Inama yahuje abayobozi bakuru batandukanye ndetse irimo n'itangazamakuru. Iruhande hari abagabo bambaye amadarubindi ndetse abenshi muri bo bambaye amakoti.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki arimo araganiriza abaje kumutega amatwi, arimo arababwira ku birebana n'ubuzima ndetse n'imibereho myiza.

Abasore bakuze ndetse n'abagabo harimo n'abagore bakuru bari mu nama umusore hano hino afite agacupa k'amazi y'inyange mu ntoki, inyuma ye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu bose bateze amatwi.

Inama yitabiriwe n'abayobozi bakuru batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho imvesiti ini Rwanda, hirya y'aho nanone hari icyapa cyanditseho ekwiti.

Ibikoresho bya kinyarwanda bibohwa n'intoki birimo ibyibo ndetse n'imitako itatseho kuri ibyo byibo, hari n'akibo ku ruhande kari mu mabara y'umutuku.

Igiseke ni igikoresho cya kinyarwanda cyifashishwa mu gutwara ibishyimbo, amashaza, amasaka ndetse n'ibindi, ibi byifashishwa iyo umunyarwanda agiye gutura mugenzi we.

ibikoresho bya kinyarwanda byitwa urusyo, ingasire, iruhande rwabyo hateretse ikibo ndetse n'inkoko ebyiri, zombi ziriho ibinyampeke urusyo rwifashishwa mu gusya ifu ikaribwa.

Abategarugori bakenyeye imikenyero myiza barimo bararirimba biragaragara ko bishimye, aha habereye ibirori bitandukanye, iruhande rwabo hateretse ingoma.

Izi ni inyogosho zo hambere zitwaga amasunzu, zogoshwaga n'abantu b’abahanga, ndetse abaziyogosheshaga babaga ari ibikomerezwa.

Umugabo yakweze umuheto urimo umwambi biragaragara ko agiye kurasa. Inyuma ye hari undi mugabo muremure nawe wambaye imyenda ya Kinyarwanda.

Igikoresho cyabugenewe cyambarwaga n'abami ndetse gikunda kwambarwa n'intore zirimo zihamiriza, iri baryita ikamba.

Igikoresho cya Kinyarwanda kibajwe mu giti cyitwa umuvure ahandi bakunda kucyita indemberi, kifashishwa benga ibitoki cyangwa se bakoreramo ibindi bikorwa bitandukanye.

Umukobwa wambaye akarindamutwe, arimo arakora mu mashanyarazi, afite ibikoresho byabigenewe mu ntoki, arimo arahoza insinga n'izindi bityo ni umutekinisiye.

Akazu, karimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu gutanga amashanyarazi. Amashanyarazi ni bimwe mu bikorwaremezo igihugu kigenderaho kugira ngo gitere imbere.

Urugomero rw'amashanyarazi, aha ni ahatunganyirizwa umuriro w'amashanyarazi, hari ibikoresho bitandukanye bya gihanga ndetse n'insinga nini zikomeye zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse na kasike y'umuhondo, yambaye ijile ndetse nishati yu'ubururu, arimo arakora ku byuma byabugenewe, bizwi nka mubazi, bibara umuriro w'amashanyarazi.

Umukozi wa REG, wambaye akagofero kabigenewe ku mutwe, yambaye isarubeti yanditseho amagambo REG inyuma ndetse na magana ane mirongo ine n'icyenda, arimo arakanda kuri konteri.

Inzu ikontororerwamo insinga z'amashanyarazi, aha ni ku rugomero cyangwa se ku ruganda rutunganya amashanyarazi. Harimo umukozi ufite urupapuro mu ntoki, arimo yitegereza insinga uko zimeze.

Aha ni igikoresho kitwa taransifa, kifashishwa mu gutanga umuriro mu duce tugiye dutandukanye, kirawugabanya ndetse kikawongera, mbese gishinzwe kuringaniza umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye akarindamutwe k'umuhondo ndetse n'agapfukamunwa, arimo arakanda ku mabuto agiye atandukanye kugira ngo umuriro ugere ku baturage neza.

Ipoto ririho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi, hariho abagabo babiri barimo barakosora ikibazo cyaje kuvukamo kugira ngo umuriro ukomeze ugende.

Amapoto menshi ari ku murongo yifashishwa mu gutwara umuriro awuvana mu gace kamwe, awujyana mu kandi binyuze mu nsinga z'amashanyarazi, ikirere cyarakaye.

Urugomero rw'amashanyarazi ruriho ibikoresho bitandukanye yaba itsinga, ndetse na taransfo, byifashishwa mu gutanga umuriro mu duce twinshi tw'igihugu cyacu.

Ibikoresho cyangwa se ibyuma byabugenewe mu gufata imirasire y'izuba, bikayibyazamo, umuriro w'amashanyarazi, biri hanze, byitegeye aho izuba rituruka.

Abagabo babiri bari mu nsinga nyinshi, bambaye amasarubeti ari mu ibara ry'ubururu, bambaye imikandara ibarinda guhanuka cyangwa se bakaba bahura n'impanuka.

Ibyuma bishinzwe gutwara insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, ni ku rugomero cyangwag se ku ruganda rutunganya amashanyarazi, aha ni ho hagaburira umujyi wose ku birebana n'amashanyarazi.

Agakoresho kabugenewe kifashishwa mu kubara uko umuriro w'amashanyarazi ukosomwa. Kitwa Kashipawa, gafite akabuto k'umutuku.

Urugomero rw'amashanyarazi ahatunganyirizwa amashanyarazi agiye atandukanye, i ruhande rwaho hari inzu yakiriraho abantu baje babagana n'ikirere kiratuje.

Urubyiruko rurimo abakobwa ndetse n'abasore, barimo barakurura umugozi muremure, utwara umuriro w'amashanyarazi, tuwuyita urutsinga. Bakeneye kuruzamura ngo barushyire ku ipoto.

Abagabo bambaye kasike, barimo barakora imirimo ijyanye no gutunganya amashanyarazi. Bambaye impuzankano, zirimo amasarubeti y'ubururu.

Inzu nini, ndende, biragaragara ko ari inzu mberabyombi, ishobora kubiberamo imikino igiye itandukanye. Harimo aho kwinjirira n'aho gusohokera.

Inzu ndende irimo ibikoresho bitandukanye ndetse igatangirwamo na serivisi zitandukanye, imbere yayo hari imbuga nini ishasheho amapave.

Ikiraro cyambuka umugezi ni kimwe mu bikorwa remezo byifashishwa n'abaturage bakava mu gace kamwe bajya mu kandi bitabagoye cyangwa se ngo batwarwe n'imyuzure.

Umukino wahuje amakipe abiri, harimo iyambaye umweru n'umukara ndetse indi ikaba yambaye icyatsi kibisi bafite abafana baje ku bafana.

Ni igikorwa cyabaye ku mugaragaro cyo gutaha ikiraro cyubakiwe abaturage. Hari ingabo z'igihugu nk'abasirikari ndetse n'abapolisi hari n'abandi bayobozi batandukanye.

Ikiraro kinini kirimo kirava ku musozi wo hakurya kikambuka umugezi utemba, kikagera ku wundi musozi. Cyifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo gutwara ibicuruzwa, ndetse no kwambutsa abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi.

Inzu biragaragara ko ari ikigo nderabuzima, cyanditseho girubuzima. Irimo abantu batandukanye, harimo abakozi ndetse n'abaje gushaka serivisi z'ubuzima.

Icyapa, cyubakiye, kibetonnye, cyanditseho, akarere ka Nyagatare, umurenge wa Gatunda, akagari ka Nyamurembe, umudugudu wa Kajevuba.

Imodoka nini iri imbere y'inyubako zigiye zitandukanye harimo izigeretse ndetse n'izitageretse, gusa zose zishakajwe amabati y'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'bantu bateraniye muri sitade birasa nkaho hari imikino barimo barareba, imbere yabo hari abashinzwe gucunga imitekano yabo.

Inyubako nini iri hasi, ikirere gituje kandi gikeye, imbere y'inyubako hari jaride ndetse ku ruhande rwayo hari ipoto ririho itara ricanira uyu muhanda.

Ikibuga kinini ahakinirwa imikino igiye itandukanye hubatse neza ndetse harimo ubwatsi bwabugenewe bwitwa tapi abakinnyi bakiniraho.

Icyanya cyahariwe ubukerarugendo, ni ku mazi hakurya hari ikirwa kirimo ishyamba, hakuno hari utuzu twagenewe guturamo abaje kwitegereza ubwiza bw'aya mazi.

Abajyanama b'ubuzima barimo baracurira bambaye amataburiya yu'ubururu, bambaye n'udupfukamunwa, bari imbere y'inzu isize irangi ry'ubururu, yanditseho girubuzima.

Ikiraro cyambuka umugezi kigizwe n'ibikoresho bikomeye kandi by'ibyuma kifashishwa n'abaturage bava mu gace kamwe bajya mu kandi ibitabagoye.

Inzu nini itangirwamo serivise zitandukanye, iruhande rwayo hahagaze abagabo ndetse n'abagore, hirya hari n'abambaye inifomo bigaragara ko bashinzwe umutekano.

Inyubako nini ndende irimo abantu bagiye batandukanye, yubatse mu buryo bwa kijyambere isakajwe amabati y'umutuku ,ndetse igezweho.

Inzu itangirwamo serivisi zitandukanye, imbere yayo hashashe amabuye, isize irange ry'umweru ndetse n'ubururu yubakishije amatafari ahiye.

Icyapa kiriho amabara cy'umweru ndetse n'umukara gishushanyijeho ibirango byerekana ko aha ari mu karere ka Nyagatare.

Icyumba kinini, kiriho amarido meza ajya gusa umukara ndetse giteye irangi ry'umweru, na parafo nziza. Aha haberamo inama ndetse harimo abantu bari kwiga ku bijyanye n'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu.

Kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi ni byiza kuko bituma amateka atibagirana kandi ibi bituma urubyiruko ruriho ubu, rukomeza gusigasira ubumwe mu banyarwanda.

Umugabo uri munsi y'igiti cy'umwembe, ahagaze imbere ye yabantu, arimo arabaganiriza ku bijyanye n'ubutabera ndetse abibutsa n'uburenganzira bwabo.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara, yambaye ishati iri mu ibara ry'ivu ndetse n'ishapule, afite indabo mu ntoki, arimo arunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Urujya n'uruza rw'abantu, harimo: abana bato, abasore ndetse n'abantu bakuru, baje kureba umuvunnyi mukuru ndetse barimo barahabwa ibiganiro ku burenganzira bwabo.

Ihema rinini ry'umweru ritwikiriye abantu benshi baje kuganirizwa ku butabera ndetse n'uburenganzira bwabo.

Ibiti byiza bitoshye, munsi yabyo harimo abaturage bicaye hamwe, baje kumva ibiganiro birebana n' uburenganzira bwabo ndetse ibiganiro bivuga ku butabera.

Icyapa kirimo ikimenyetso cya T, kirimo kirerereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere, umuhanda udakomeje, kikamwereka ko umuhanda ushamikiye mu byerekezo bibiri.

Umumotari, ahagaze iruhande, rw'umubyeyi wambaye imyenda y'ibitenge, arimo aramuganiriza uyu mumotari yambaye kasike y'umutuku, yicaye kuri moto.

Icyapa kiyobora abagenzi. Kibereka amerekezo atandukanye y'aho bari kwerekeza, bityo bikabafasha ku kutayoba. Iruhande rw'iki cyapa hari, umuhanda wa kaburimbo.

Umugore wambaye ikanzu ijya gusa umutuku yambaye ingofero y'umweru hejuru, ari iruhande rw'umumotari wicaye kuri moto, arimo aramwishyura amafaranga akoresheje telefone.

Icyapa kiranga aho umuntu ageze, hari ahaparikwa ibinyabiziga cyangwa se kuri arete, aho abagenzi bategererereza ibinyabiziga.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda, kirimo ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara ndetse gikikijwe n'ibara ry'umutuku, kirimo kirabwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari aho abagenzi bambukira.

Icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, kizengurutswe n'ibara ry'umutuku. Iki kibirimao kirabwira umuyobozi w'ikinyabiziga ko agomba kwirinda kuko ageze mu masangano y'umuhanda.

Imodoka ya Coaster iri mu ibara ry'umweru, ku kirahuri handitseho yahoo, ni imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu gihugu hose, iruhande rwayo hari umugabo wambaye umupira w'umutuku.

Inama yahuje abayobozi bakuru harimo ingabo ndetse na polisi, bari imbere y'abaturage barimo baraganiriza abaturage mutekano ndetse na gahunda zitandukanye za leta.

Inama yahuje abaturage baturutse impande n'impande imbere yabo hagaze umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro ya kaki, yambaye bote ndetse n'ingofero.

Abasore babiri bafite ibyapa mu ntoki byanditseho ngo gerayo amahoro, hagati yabo hari umupolisi wambaye impuzankano afite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu bateraniye ahantu hamwe harimo abayobozi bagiye batandukanye, baragaragara ahantu mu kibuga, biragaragara ko barimo baganira ku bijyanye n'umutekano ndetse na gahunda za leta.

Ikigara cyangwa se amatente, harimo abayobozi bakuru ndetse n'abato, baje bitabiriye ibiganiro bivuga ku mutekano ndetse no gucungira abaturage umutekano.

Abantu bafite amasuka ndetse n'amapiki, barimo barahinga, ni benshi, birasa nk'aho bari mu muganda, gufasha bagenzi bacu ni byiza iyo bakeneye ubufasha.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, barimo baraganira bavuga ku bijyanye n'umutekano w'abaturage, harimo abadasso, abapolisi ndetse n'abandi, iruhande rwabo harikandagira ukarabe.

Urujya n'uruza rw'abantutu, harimo abagore ndetse n'abagabo, barimo barabyina ubona ko bishimye, baje kwitabira ibirori, bitandukanye.

Urubyiruko rwateraniye ahantu hamwe barimo baraganirizwa ku birebana n'umutekano, harimo abambaye amajire ari mu ibara ry'icyatsi.

Siporo ni ingirakamaro ku buzima bwacu, uyu ni umugabo barimo baramupima bareba uko umutima we utera ndetse hejuru ye hahagaze abandi barimo baganira ku buzima bwabo.

Umupira uri mu mabara atandukanye higanjemo ay'umweru uri hagati mu kibuga, hirya yawo urabona abandi bagabo bambaye imipira y'imikara ndetse n'amajezi.

Umusore ukiri muto afite agapapuro mu ntoki, yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ikabutura y'umukara yambaye n'amasogisi y'umukara ari mu kibuga biragaragara ko agiye gukina.

Ikibuga kinini, gikinirwamo umukino w'amaguru futubolo, kiri ahantu heza habugenewe, harimo abantu, barimo barakina umupira.

Abagabo babiri umwe ni umukinnyi uri hagati ni umuyobozi, iruhande rwabo hahagaze umugore, bose bafite icyapa kigaragaza ko batsinze ku mwanya wa mbere ndetse begukana igikombe.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, harimo abakuze, barimo barakora imyitozo ngororamubiri, bateraniye ahantu hamwe. Bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ipantaro y'umukara. Ahagaze kuri sitade arimo aratanga ikiganiro.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano, ziri mu mabara y'umukara ndetse abandi bambaye iz'amabara y'ubururu, barimo baratera agapira. Urabona ko uyu mukobwa agiye gutsinda igitego.

Urubyiruko rw'ingimbi rwambaye imyenda y'amajezi, hejuru umweru hasi ajya gusa umutuku cyangwa se umuhondo, iruhande rwabo hari umukinnyi wambaye imyenda y'imikara.

Ikipe yambaye impuzankano imwe hejuru umweru, hasi ijya kwambara ibarajya gusa umutuku, hasi bambaye inkweto zigiye zitandukanye.

Amakipe abiri, harimo ayambaye, amajezi y'ubururu ndetse abandi bambaye imipira y'imyeru n'makabutura ajya gusa oranje, barimo kugacoka.

Umukino wahuje abari harimo abambaye amajezi y'ubururu ndetse n'abandi bambaye amajezi y'umukara. Abambaye amajezi y'umukara barimo barakina mu Murenge wa Tabagwe.

Umugore, munini arimo aratera agapira, agahereza umugabo wambaye imyenda y'imihondo. Hari undi kuruhande urimo arabakamera, bari muri sitade biragaragara ko barimo batera agapira.

Urubyiruko rw'abasore bamwambaye jezi y'umuhondo, abandi bambaye jezi y'ubururu, barimo barakina umupira, bari imbere y'izamu bagiye gutsinda igitego.

Kuri stade, ahicaye abagabo ndetse n'abagore baje kureba umupira w'amaguru, baricaye baritonze, barimo baritegereza uko umukino ugenda.

Umubyeyi wambaye agapira k'umweru yambaye ipantaro y'umukara hasi arimo aragenda mu muhanda wa kaburimbo biragaragara ko ari kuwambuka.

Umuhanda w'igitaka uri mu giturage ni igitsibanzira harimo ibyatsi bigiye bitandukanye, urimo urerekeza ahantu runaka, kandi urimo urava ahantu runaka.

Umuhanda munini wibitaka ariko kandi kikaba n'ikibuga kifashishwa mu kwigiramo imodoka, hirya harimo uduti.